Umugabo umwe abagore babiri n'abana babiri aho bari mu gikorwa cyo gupimisha abana, umugabo ni we mujyanama w'ubuzima, abagore ni ababyeyi b'abo bana, gupimisha umwana ni ingenzi kuko umenya ubuzima bw'umwana uko buhagaze, umenya niba ari mu mirire myiza cyangwa ari mu mibi, ni ingenzi gupimisha umwana.

Harasa neza haratuje, hari izuba, hari ibiti birambitse hasi, hari amabido atatu, hari ivomero, umwana yambaye ishati y'igitenge arasutamye arimo arakina n'amazi, inyuma yiwe hari ibyatsi.

Abantu bane, abagabo babiri n'abagore babiri, umwe w'umuganga wambaye taburiya, ga zabugenewe zo kwa muganga, undi ufite ibinini, ufite n'ibindi miti mbere yiwe, umumama uri kwivuza, biragaragara ko muganga amwitayeho kuko ari inshingano za buri munsi z'abaganga.

Umugore wikoreye indobo ifashe indi mu ntoki ndabo yikorerasa umutuku afashe indi mu ntoki, yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo umweru n'ubururu, yambaye ishati y'amabara ya madowadowa mbere y'uko hari ibiti byiza, ibyatsi bigaragara ko byumye biragaragara ko ari mu mpeshyi.

Umwana uri kuvoma amazi y'ikidendezi, buriya si byiza gukoresha amazi y'ikidendezi kuko ubwabyo byangiriza ubuzima bwacu, tugomba gukoresha amazi meza kubera ko amazi meza ni ubuzima kuri twebwe, twirinde gukoresha amazi y'ikidendezi yaba mu rugo rwacu cyangwa mu mirimo yose itandukanye.

Abantu batatu bagaragara neza. Muri batatu bagaragara neza inyuma yabo hari abandi batatu batagaragara neza, impande yabo hari umwana mutoya. Muri abo batatu bagaragara neza hagati yabo harimo umuntu urwaye, wo barandase bajyanye kwa muganga.

Umuntu w'igitsina gore wambaye umwenda w'umutuku imbere yambariyemo ubururu, ufite umusatsi utari mwinshi utari na muke ubona ko yishimye, kwishima k'umuntu ntabwo bigaragarira kuko abikubwiye gusa no kumureba ubwabyo iyo uzi gutandukanya ibyishimo n'umubabaro, urabitandukanya wowe ubwawe atarinze kubikwibwirira.

Umuntu ufite agahinda uri kurira wipfutse mu maso wambaye imyenda yirabura umwenda w'umweru ugaragara gakeya ufite umusatsi mwiza witeze igitambaro kidafunze umutwe wose kandi ufite uruhu rwirabura.

Abagore babiri bari hamwe bishimanye umwe afite ibipapuro n'ikaramu yambaye ikoti ry'umutuku mu imbere yambayemo umukara, yambaye rinete arimo arandika, undi yambaye ikoti ry'ubururu mu imbere yambayemo umukara arabyishimiye kuba ari kumwe na mugenzi we.

Abantu cumi n'umwe; muri cumi n'umwe, batandatu bari guhabwa serivisi, batanu bari gutanga serivisi; serivisi bari gutanga ni izubuvuzi bw'amenyo. Amenyo ni ingirakamaro kuyitaho kuko nicyo kintu cya mbere gishingiweho cy'ubuzima bwose yaba ari ibyo turya bifashwa n'amenyo cyangwa ibitunga umubiri byose n'amenyo abigenga.

Icyumba kimwe mu byuma byo kwa muganga kirimo abantu babiri, kirimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga higanjemo ibivura amenyo, hari umuganga n'umwana, muganga arimo arasuzuma umwana amenyo, areba mu kanwa amenyo yangiritse.

Ubuvuzi bw'amenyo bwafashe indi ntera, kubera ko buri muntu wese yamenye agaciro k'amenyo. Amenyo ni ikintu k'ingenzi adufasha mu buzima bwose butandukanye, ari ibitunga umubiri byose bica mu kanwa, kandi dusabwa amenyo kugira ngo tubitunganye umubiri ubyakire bimeze neza, niyo mpamvu rero dukeneye ko amenyo yacu...

Umwana ufite amenyo y'umweru, amenyo y'umweru kuyagira si ukubyuka ngo usange yabaye, bisaba kuyitaho ukibarosa kenshi ku munsi, ugakoresha Korogate zabugenewe kandi ukamenya gukoresha neza uburoso, umenye uko baborosa amenyo neza.

Umunsi ugaragara ko ari mwiza kuko ikirere kirasa neza, umuhanda urimo abantu batanu, muri batanu bagaragara harimo bane bagaragara neza umwe ntabwo agaragara wese, muri bane bagaragara harimo igitsina gore batatu, igitsina gabo umwe, bari muri siporo ikigaragara.

Umumama n'umwana ubona ko bishimanye. Mubyeyi ni byiza kwita ku mwana wawe kuko bimufasha gukura neza. Ita ku mwana wawe kandi umube hafi kuko ikibazo agize, ugomba kucyitaho ukabimenya. Umwana agororwa akiri muto.

Abantu babiri bicaye hamwe hatuje, igitsina gore n'igitsina gabo, barashaje bafite impapuro imbere yabo, umwe bafite terefone, yambaye rinete, yambaye ishati y'amaboko magufi, inyuma yabo hari intebe bicaye bari ku meza.

Batandatu bari gucuruza, ni ingenzi gushaka icyo dukora kuko bituma tumera neza kandi ibyo dukora bikagirira akamaro abandi, nk'aba bagore bari gucuruza inyanya, n'ingirakamaro cyane kuko zidufasha mu buzima busanzwe yaba ari mu mirire myiza no gutunganya ifunguro ryuzuye.

Imbuga nziza ikinirwaho umukino wa basiketi ipavomye neza, iriho abantu babiri umugabo n'umwana, umwana afite baro umugabo amuri inyuma barimo barakina, umugabo yambaye ikabutura amasogisi y'umweru n'inkweto.

Icyumba kinini kiza, giteraniyemo abantu benshi bambaye imyenda y'umweru, cyubakishije amatafari ahiye, harimo abari imbere batanu, bambaye imyenda y'imikara batatu, umwe yambaye umwenda w'icyatsi, undi yambaye umwenda w'umweru.

Amakuru meza urukingo rw'umuriro rwahuguwe ruzageza tariki cumi n'enye z'ukwa kane bibiri na makumyabiri na kane, urwo rukingo ni rwiza kuko rufasha ubuzima bwacu gukomeza bumera neza, urakangurirwa nawe kuzagerayo bakagukingira neza.

Ubuvuzi butwegereye ni ikintu cyiza kuko byatumye u Rwanda rumera neza, nta muntu ukirembera iwabo kuko mituweri yaje, urarwara ukajya kwivuza, abaganga batwakira neza kuko babyigiye neza, dufite ubumenyi bwinshi niyo mpamvu dukunda abanganga bacu.

RBC ni ikigo gishinzwe ubuzima gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, iriya R iba ibisobanura Rwanda, iriya B igasobanura biyodiko, iriya C igasobanura senta, gikorera mu Rwanda cyita cyane cyane ku bigo nderabuzima, ku buvuzi kuko ari byo nshingano zacyo.

Icyumba cyiza cy'abarwayi gisa neza, ni inshingano zacu kuba ahantu heza, kuko ubwabyo bitwongerera ubuzima bwiza, hari harasa neza amarange ni umweru, uburi busashe neza, ibi byose ni iby'ingenzi ku ubuzima bwacu, kuko bituma ubuzima bukomeza kumera neza.

Ibitaro biri ahantu heza hari natirere, hari ibiti, bifite geti y'ubururu, bifite ibyapa biharanga, imbere yaho hari umuhanda ukoze neza, ibyo bitaro byubakishije amatafari ahiye, bifite amabati y'ubururu, inyuma yaho hari umunara...

Igikoresho cyiza gikoreshwa kwa muganga cyifashishwa bareba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, kiri gukoraho umuganga wambaye taburiya y'umweru ugaragara ko ari umuhanga, iki igikoresho kigirwa n'ibitaro bikomeye kuko ubwacyo kiba gihenze, bisaba kucyitaho kugira ngo gikomeze gikore neza.

Abantu batandatu, batandatu muri bo haragaragara batanu, batanu bagaragara harimo bane bakuru n'umwe w'umwana, umwana urimo bigaragara ko ari gufata igihembo nk'icy'umwana witwaye neza, buriya guhemba umwana ni byiza kuko bimufasha gukomeza gukora cyane kandi agakora neza.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge biri ahantu heza bifite amabara menshi y'umweru, irangi ry'ubururu ryijimye yubakishije amatafari ahiye, mu mbuga yabo hari abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru, mu mbuga y'aho handi hapavomesheje amapave.

Icyumba kirimo abantu batatu, babiri b'igitsina gore, umwe w'igitsina gabo, bigaragara ko umwe muri bo arwaye, aryamye ku gitanda, yiseguye umusego, umugabo amufashe mu gahanga, umugore amufasha ku kiganza.

Inyubako nziza igeretse iri ahantu heza isa neza. Yubakishijwe amatafari ahiye ifitemo ibirahure byinshi. Imbere yayo hari jaride, jaride ifitemo ibimera byiza, pasiparume niha ikibuga kinini cy'imodoka ziparikamo.

Progress Pharmacy, ni farumasi nziza iri ahantu heza, ifite isuku, ifite imiti myinshi. Ubaye urwara amenyo, ubaye urwara umugongo, ubaye urwara Amibe, iyo miti yose barayifite. Bagane bakwakire neza kandi bafite abaganga babigenewe kuko baguha akazi bakwizeye.

Abantu babiri bari mu cyuyumba kimwe umwe ni umurwayi undi ni umuganga, umurwayi ni uwo uryamye ku gitanda umuganga ni uwo ugaragaza ko ari kumusuzuma. Muganga iyo akwitaho ukira vuba kubera ko ukurikiza ibyo yagusabye, birasabwa ko tujya dukurikiza inama za muganga kugira ngo dukire vuba.

Imodoka nziza y'mweru ifite amabara yumutuku ifinipine inyuma igifite imiryango w'inyuma bahita imbangukiragutabara. Imbangukiragutabara ni nziza kukodufasha mu buzima bwa buri munsi muzima bwacu turayikenera kuko iyo urwaye ikwihutisha kwa muganga.

King faisal, ibitaro byo mu gihugu cy'u Rwanda umujyi wa Kigali, bifite uburambe bw'imyaka myinshi, buvura abarwayi benshi, biri ahantu heza kandi ifite abaganga beza. Ugiye arwaye, abafite icyizere cyo gukira kuko hari abaganga b'abahanga kandi beza.

Kunywa amazi ni byiza kuko bituma ubuzima bwacu bumera neza. Ni meza cyane, iyo uyanyweye mu gitondo, sa sita na nimugoroba ariko iby'ingenzi ntabwo wemerewe kunywa amazi iyo ugiye kurya. ugomba kunyanywa mbere basi y'imininota mirongo itatu cyangwa nyuma y'imininota mirongo itatu. Kurya uri kunywa si byiza cyane. Tunywe amazi ni meza.

Ikimba kiza gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abantu babiri, umwe yambaye umupira w'ubururu ikabutura y'umukara, ari gukora siporo ateruye ibintu bibiri ku mpande zombi, muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye harimo ibara rya oranje, tapi y'umukara.

Imbuto ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko tuzikenera mu buzima bwa buri munsi. Cyanecyane nk'abana batoya, umuntu ukora siporo cyane. Ibintu by'ingenzi cyanecyane, harimo nk'amarongi, imineke, pome n'ibindi. Ariko cyanecyane ni ingenzi ku bana batoya, kuko baba bazikeneye cyane.

Inzira irimo abantu batanu. Muri batanu bahari hagaragaramo bane. Bane bagaragara harimo abagore batatu, umwana umwe. Umwana umwe ugaragara yicaye hasi, inyuma ye hapfukamye umumasera, imbere yiwe hari umugore w'umuzungu, inyuma yabo ni ho hari undi mugore wicaye ugaragara.

Abantu babiri mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo umugore n'umugabo, umugabo ari gukora siporo umugore ari kumurebera, umugabo uri gukora siporo yambaye umwenda wa siporo hejuru y'isengeri, ikabutura, inkweto za siporo; gukora siporo ni ingirakamaro kuko umera neza ubuzima bwawe bukagenda neza.

Ibimera bitandukanye by'ubwoko butandukanye byose bikwira hasi nta kiba kirekire cyane biri mu mabara atandukanye harimo umuhondo harimo icyatsi byose bifite ubusobanuro bwabyo hasi(..)

Ibimera biri mu bwoko bwinshi nk'urugero nk'ubwo dufite, dufite ubwoko cumi na bubiri ibisobanuro byabyo birahari ariko bigiye bitandukanye, ibimera bivamo imiti tubikoramo ibintu byinshi ndetse tunabikoramo n'ibyokurya, ibimera ni byiza tubibungabunge.

Icyumba kirimo umuganga imbere yiwe hateretse imiti, umuganga wambaye itabiriya y'umweru, ishati y'ubururu, agapfukamunwa k'umweru, ingofero yagenewe abaganga y'ubururu, ari kureba imiti igihe imaze n'umubare wayo, ngo ateranye atange raporo y'uko imiti ihagaze.

Igiti cy'ikawa gishibutse neza kikiri gito. Buriya ikawa ni ingirakamaro mu gihugu cyacu, kuko nicyo gicuruzwa cya mbere dukoresha, twohereza hanze kikatuzanira amafaranga menshi. Ikawa ni ingirakamaro ku bacuruzi, kuko ibaha amafaranga byoroshye.

Fab forever active buster. Ni icyo kunywa gifite miriritiro magana abiri mirongo itanu, cyujuje ubuziranenge, gitera imbaraga, ukinkweye wese aba yumva ameze neza. Cyashyizwe mu bintu byongera imbaraga kubera ko ukinkweye wese aba yumva cyujuje ubuziranenge

Ikimera cyiza cyifashishwa mu kuvura, cyane cyane bagikoresha mu miti ya Kinyarwanda, mu kuvura inkorora cyangwa izindi ndwara zitandukanye, bacyita umuravumba, umuravumba ni mwiza kuko udufasha mu ku...

Ubutaka bwiza bumera ibimera byiza cyane cyane higanjemo ibigufi mu bimera byiza bimeramo hariyo bita ibitovu, ibitovu ni ikimera gitoya kigufiya kiba gifite amahwa kuruhande kigira amabara y'umuhondo yera iyo cyakuze